Amakuru atandukanye n'ikoreshwa rya banki ku bijyanye no kubika no kubikura ayo babitse, amatariki, isaha yabikiweho.

Ahazwi nk'ahategurirwa amata yo gucuruzwa, akabati gateretsemo amajerekani yifashishwa mu kubabikamo, amata. Ndetse n'icyapa kigaragaza ko aho hantu hacururizwa amata.

Bumwe mu buryo bukoreshwa mu kwishyura hifashishijwe ikoranabuhanga ndetse na simu kadi ya Airtel, wishyira kuri kode akanyenyeri magana atanu na rimwe urwego ugakurikiza amabwiriza.

Amafaranga aba atandukanye bitewe n'ibihugu aturukamo rero umugabo ari kuyavunja afite ubwoko butandukanye bw'amafaranga, inyuma hari abandi bicaye bategereje guhabwa serivisi.

Inzu akazu kari hanze hafi n'amasitasiyo, kariho ibyapa byinshi bitandukanye ku bijyanye na serivisi zitangirwamo izijyanye na banki, za equty, banki nkuru y'u Rwanda ikoresha sima kadi za Airtel kwishyura imirira n'ibindi.

Umugabo n'umugore bari kwamamaza uburyo ushobora kubona inguzanyo ya banki mu Rwanda, kandi ukaba wabasha kugira ubuzima bwiza. Nimero za telefoni ushobora guhamagaraho, imeri wakoherezaho ubutumwa cyangwa se washakaho andi makuru ku bijyanye n'inguzanyo.

Ushaka kugera ku ntego yo gukora ubukwe? Umugabo ndetse n'umugeni we barishimye ku munsi wabo w'ubukwe. Nta kindi cyabigufashamo rero ni ukwizigamira ukoresheje iyi banki bita BPR. Igufasha kwizigama, ukabona inyungu y' umunnani ku ijana buri mwaka. Ku bantu bose, ubuzima bwiza.

Isoko ririmo ingero ingeri zitandukanye z'abaturage baje guhaha amoko atandukanye y'ibyo kurya, harimo imyanya, intoryi, harimo abamama bahetse abana, urubyiruko, abagabo n'abandi batandukanye.

Inzu iherereye Kanombe mu mujyi wa Kigali, ni inzu nziza ifite amapave, ifite amakaro, inkingi, igisenge cyiza, rero ufite amafaranga miliyoni ijana na cumi n'eshanu ushobora kugura iyi nzu mu mujyi wa Kigali.

Inyubako irimo imyenda iri kugurishwa cyangwa se iri gucuruzwa, hari abayicuruza, hamanitse ubwoko butandukanye bw'amakanzu bizwi nk'amashati, hari umukiriya uri kwipima kugira ngo abashe kugura imyenda imukwiriye.